Udufuka tune turimo amabara atandukanye umutuku, icyatsi, ubururu na kaki. Hejuru hari inyuguti zanditsweho mu bururu n'icyatsi. Hirya hari ibintu bimeze nk'icyayi, hino ni akameza biteretseho.

Amacupa wagira ngo arimo umuti, bateretse ku meza y'umweru. Afite ibyapa by'icyatsi kibisi, ubururu, na move, n'inyuguti z'umutuku. Apfundikiye neza na sikoci.

Akadomoro k'umweru kariho ibyapa, kimwe n'icyatsi ikindi n'umuhondo ugiye kuba nk'umutuku, kirimo inyuguti ya igisi ikindi kirimo inyuguti z'umukara nyinshi.

Ibiti bibiri biri mumurima w'ibigori, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'akazi y'umuhondo, yambaye na masike ahetse n'icyuma ari gutera umuti mu bigori.

Ahantu harunze ifumbire ,hari abagabo babiri bari kuyora bashyira ku mufuka ,umwe yambaye bote, umupira w'umutuku ,undi yambaye ingofero y'ubururu nta nkweto yambaye ,hirya yabo hari undi uhagaze ku muhanda iruhande rw'ibirayi ,yambaye ishati y'umweru.

Ikiyaga gikikijwe n'umusozi uriho utuzu n'imirima hino yaho hari inturusu ndende n'iyindi ngufiya hari n'urutoki n'akazu gatoya kari muri ako gashyamba. Hakurya hari umusozi uri kugaragara nk'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Isambaza bamaze kuroba, ziteretse mu mabase y'umutuku, n'iy'icyatsi, n'iy'umweru n'akandi kari hirya k'umutuku. nako, urabonako ziteretse ahantu hadapavomye, hejuru hari ikirere cy'umweru.

Icyokezo kiriho agatanda bari kokerezaho ifi, hariho ibirayi n'inyanya, hejuru yabyo hari ikirungo cya teyi.

Udusahani tubiri tw'umweru duteretse kumeza adekoye n'ubururu. Harimo inyama, n'inyanya, n'isosi isa neza, kandi ku ruhande hari utundi tuntu tuharambitse tw'umweru.

Ahantu hari ikirundo cy'amafi, hateretse ibikese bibiri kimwe cy'umutuku ikindi cy'umweru. Aho hameze nk'aho ari mu kizu cy'imbaho.

Ubuhinge butabiye ariko butanoze. Hirya yabwo ntihahinze. Hari ishyamba ry'intusi ry'ibiti birebire. Hakurya hari ikirere cy'umweru n'ubururu.

Ndabona abaturage bari kunyura mu kayira kari mu kibuga ku mashuri, iruhande rwaho hari igiti cy'umuvumu. Abaturage bikoreye ibintu, ibindi babifashe mu ntoki.

Ibyatsi bivanze n'indabyo by'ibihuru, biri ku kayira kariho ibuye rinini ry'ikoro, n'umucanga, ni iruhande rw'inzira, hejuru hari ikirere kivanze umweru n'ubururu.

Umurima basaruyemo ibigori n' ibishimbo, imishingiriro mikeya iracashinze, hirya hari ishyamba rirerire ariko bitari cyane, n' ikirere cy' umweru n' ubururu.

Umurima uhinze harimo ubuhinge, haruguru nto hahinze harimo ibigorigori bishaje, hirya hari undi urimo insina zitameze neza, n'uruzitiro rw'umweru, n'ibiti n'amazu atari kugaragara neza, mu kirere cy'umweru.

Umurima utari wahingwa urimo uduti tw'utubonobono, n'ikindi kirekire kimeze nka gereveriya, hirya yacyo hari insina n'ibihuru.

Ibinyomoro biteye ahantu biri kurengerwa n'ishyamba. Hirya yabyo hari agashyamba kadakuze neza, ariko karimo uduti tugaragara, n'umunara w'amashanyarazi. Hakurya hari ikirere cy'ubururu bwijimye.

Agati kari hejuru y'umugezi gafite amatabi ane. Hasi ni umucanga, hakurya hari ibyatsi byumye ndetse hari n'udushyamba turi guhinguka, n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Agashyamba katari kakura, hirya yako hari igiti kirekire kijimye, hagati harimo inzu iri kurenguka ifite amabati'ubururu, hino bahasaruye ibigori vuba.

Umurima wa karoti, iruhande rwawo har'akayira, karimo umuntu wikoreye n'ibigorigori kuruhande, hirya har'igiti kirekire n'ibindi bitari byakura n'ikirere cyiza cy'ubururu n'umweru.

Uruzitiro rwubatse n'ibiti, iruhande hari umuhati, hagati hari ibiti by'isombe n'insina ,hari n'inzu itagaragara neza, hirya hari ikirere cy'umweru, inyuma hari ibyatsi bimeze nk'aho biri mu bigorigori.

Abagabo batatu bafashe ibyuma, bameze nk'abari kwesitara mu murima w'amashu, hirya yabo hari ibyatsi birebire, bibisi , hakurya hari igiti kirekire, n'umusozi uri kureguka hakurya.

Umugore uri gusoroma ikawa yambaye igitambaro cy'umutuku, n'agashati k'umukara n'umuhondo afashe itabe ry'ikawa, hirya ye hari kureguka ikirere cy'umweru.

Umurima w'ibishyimbo bitari umushingiriro, bitangiye kuzana uruyange. Hirya yabyo hari ishyamba, no hakurya hari urutoki rutari kugaragara neza, n'ikirere cy'umweru.

Umurima w'ibireti bitari byera neza hirya yawo hari ibiti no ku ruhande hari ibirayi bihinze hari n'akantu k'agashamba kari kureguka hirya y'uwo muma.

Imyumbati irunze bakuye, no hino hari indi ihambiriye yo gutera. Hirya yabyo hari ibisombe by'ibyumbati byijimye, irunze mu busitani bushaje.

Abantu babiri umwe ni umugabo, undi ni umugore bahagaze mu murima munini w'imyumbati , mu ntoki zabo bafashe uwo bakuye ufite igiti cyawo.

Umuntu uri gutera umuti, yambaye igitambaro cy'ubururu, ahetse n'icyuma, hirya hari akazu k'amatafari n'uduti tureture, ibyo bigori ari gutera ntabwo byari byakura.

Ibitunguru bya puwalo bifite amabara y'umweru hasi, hejuru ni icyatsi. Hari utuntu turi guhinguka, dufite ibara rijya gusa umutuku rya ruje borudo.

Abagabo babiri bateruye imyumbati, bari kuyipima ku munzani w'isahani, hirya y'aho hari ishyamba ry'intusi ridakuze, n'ikindi giti ntazi.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero, hagati yabo harunze avoka mbisi, hirya yazo hari udukarito bagiye kuzishyiramo, hari utubara tw'ubururu, hirya hari n'ibindi bimeze nk'amafirigo.

Imodoka barimo gupakiramo ibitoki， hagati harimo imifuka ipakiyemo ibindi bintu， hasi hahagaze umugore， iyo modoka ihagaze imbere y'ikizu cy'umutuku cyubakishije amabati.

Ibigori bihinze ku murongo bikiri bitoya mu butaka bw'umutuku. Hirya hari agati kari kuzamukamo k'umukara, no hakurya hari ishyamba rikikije uwo murima.

Umugore usutamye ahantu hahinze ibireti bidasa neza, bifite uturabyo tw'umweru. Yambaye ingofero y'umutuku akenye n'ikote.

Ibirayi biri mu mufuka biteretse ahantu h'umwenda wa rumbiya. Hari akaboko k'umuntu k'inzobe wambaye ishati irimo ibara ry'umweru n'ubururu n'akandi kaboko k'umuntu k'umupira muremure hirya hari ibara ry'umuhondo.

Umurima munini w'amashu, urimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ari kwitegereza uko ameze hirya ye hari ishyamba ritari kuboneka neza, ariko hari n'umucaca.

Abantu batonze umurongo bari kuzamuka mu ishyamba, ahantu h’umurima hahinzwe imyaka. Harimo igihuru hino, hirya na ho hari ikindi kiri kureguka.

Inzu irimo ibigori, ishakaje amabati atari kugaragara hejuru, ku mpande asize ibara ry'umutuku, hino bahatonoreye ibigori hari umwanda.

Umurima w'imboga uriho amapavuro uzitije amasenyenge n'ibyuma bihagaze, hagati hari ibiti bitambitse harimo umugore wambaye umupira w'icyatsi, afashe n'ibase y'ubururu n'igitambaro cy'umukara ari kuhira.

Abantu bari mu murima uri kumera bambaye imyenda y'umweru hejuru hasi imikara. Harimo n'abafite imishingiriro mu ntoki, hepfo hari igiti kirekire no hirya hari ibindi biri guhinguka. hepfo hari umugenderano w'urubingo.

Abantu bavanze abagore, n'abagabo. Inyuma yabo hari umuntu wambaye ishati y'umweru, bikoreye ibitebo. Haruguru yabo hari ishyamba, no munsi yabo hari icyayi gihinze.

Amatunda ateye, rimwe rireze, ayandi ntiyari yera. Hari n'ururabyo rufite amabara y'umweru ndetse na move.

Inzu isakajwe amategura ashaje ku ruhande hari igitaka gisa n'ikirunze; hirya hari agashyamba kadakuze, hari n'ubuhinge buvangavanzemo imyaka itandukanye.

Igiti k'ibinyomoro bihiye, byeze. Hakurya hari musozi w'ishyamba. No hino hari agati kagufiya, kameze nk'ururabyo. Hakurya hari ikirere cy'umweru.

Voka zidahiye ziri mu giti, hirya yazo har'izindi ziteye, hasi har'ibyatsi by'umucaca birimo akarundo k'ibyatsi byumye, hirya har'ikirere cy'umweru.

Abantu b'abacuruzi bari kugenda mu muhanda, umwe yikoreye ibitunguru mu ibase, n'ibindi bintu afashe mu ntoki, abandi umwe ahetse umufuka, haruguru hari inzu ifite ibaraza ririho abantu benshi, hari n'abandi bari gutambuka.

Ibiti by'isombe bitatu bihinze ku murongo. Ahantu hari urukuta ku nzu itari kugaragara neza, hirya hari igiti na cyo kitaboneka neza. Mu kirere cy'umweru ku ruhande hari amabuye ari ku muhanda.

Abantu batatu bafashe amasuka bari kuhira ibirayi, umwe yambaye ingofero, hirya hari inzu iri mu gipangu cy'amatafari ahiye, n'uduti tutari twakura neza, hirya hari inzu iriho akantu kameze nk'umusarane.

Abantu batatu bafashe ibikese ku rutugu babiri bambaye ingofero ni abagabo undi ni umugore. Babiri bafite imboga undi afite inyanya. Ni mu ishyamba ry'ibiti bitari kugaragara hejuru biri kugaragara ku bitsitsi gusa ahantu mu mucaca.

Ibase iriho amaronji ahiye, n'andi ari mu giti menshi. Bivanzemo n'ibibabi byatonyangiye muri ako kabase k'umutuku.

Ahantu hari umwanda hadakubuye , hari ikintu inkoko ziri kunyweramo . Ni nyinshi zifite amabara atandukanye , hejuru yazo hari ibara ry'ikirere ry'umweru.

Insina ziri kumwe, zimwe ni ndende, harimo n’ifite igitoki kinini. Harimo n’urwego. Hirya hahinze ibigori, hari n’akazu kari kurenguka, n’ikirere cyaho ni umweru.

Imbuto zirunze ahantu hamwe zitondekanyije, harimo ibinyomoro n'amaronji y'icyatsi kibisi, na yayandi y'umuhondo, n'izindi zitari kugaragara neza. Harimo utubaho zitondetsemo.

Umurima w'ibigori byeze, hakurya yabyo hari ishyamba n'utuzu turi mu gitari turi gushaka guhinguka. Hino yabyo hari ibyatsi bitoshye.

Imiteja itondekanye ku mirongo ibiri miremire. Iri mu kintu k'icyatsi kibisi. Hagati harunzemo udufungo tundi tw'imiteja turinganiye.

Abantu bahagaze ikirundo, bafite ibihoho mu ntoki n'ibindi biteretse mu mabase imbere yabo, bameze nk'abagiye gutera ibiti. Bavanze abagore n'abagabo, hirya hari akazu hari n'ishyamba ritari ryakura.

Umugore uri mu murima wunamye wagira ngo ari kubagara yiteze igitambaro cy'umuhondo n'igitenge akenyeye. Imbere ye hari agati ka voka, hirya hari agashyamba n'ikirere cy'ubururu.

Igiti cy'amapapayi kiriho agiye kwera n'atarera yo hejuru. Gifite ibibabi bitandukanye bitegeranye cyane. Ahantu gihinze ni mu byatsi byumye birimo na dukeya dutangiye kumera.

Abantu bunamye mu murima utabiye, bari gutera ibirayi. Hejuru ya bo hari ahandi hadahinze, harimo ibyatsi n'agafuka karambitsemo. Hirya hari inzu y'amategura ishaje, n'urutoki munsi rw'insina nkeya. Hakurya hari ibiti birebire n'ikirere.

Inyanya ziri mu murima ku giti kimwe，izo hejuru ni mbisi，izo hasi zireze ariko izi mbisi nizo nini zigaragara.

Utudobo duteretse ku gasima, harimo za watameruni zisatuye, hirya hari urubaho rurambitse n'agasima kariho ibyatsi bivanze n'amabuye, naho hirya y'aho hari utuntu duteretse tw'icyatsi.

Umugabo uri mu murima wambaye umupira w'imirongo y'umukara n'umutuku n'umweru inyuma ye hari amateke afashe ku giti hari n'ibindi bitambitse byumye n'urukoma ruri kureguka hejuru ye.

Umusozi ugizwe n'amaterasi hino hari ubuhinge ,harimo n'ibiti bigufi hirya yawo ntabwo hahinze, hari n'indi misozi iri guturuka hirya.

Umurima w'icyayi uri iruhande rw'ishyamba, harimo abantu batatu bari gusarura, umwe yambaye ingofero kandi bose bafite ibitebo.

Igiti cy'inyanya kiriho imbisi n'izigiye kwera, hagati hashinze urubingo rw'umushingiriro, hirya hari umurima utarimo iyindi myaka.

Ibigori bihetse, harimo umuntu w'umugore, afashe ikigori mu ntoki ari kugitunyuza ngo arebe ko cyeze, yambaye agasengeri.

Abantu batatu bunamye mu murima, wagira ngo ni ibirayi bari kuhira. Hirya hari umuringoti, no hakurya hari ishyamba, ndetse n'ikirere cy'ubururu bukeya n'umweru.

Imboga z'intoryi, n'ibibiriganya, harimo n'ibitunguru, na beterave, hirya hari igishitingi, ndetse n'igikuta kiriho ikigega cy'amazi.

Isoko ry'ibiribwa ariko cyane cyane imboga, ni zo ziri kugaragara. Za puwavuro, n'inyanya n'ibindi, harimo abantu benshi. Abari guhaha, n'abari gucuruza.

Abantu bari gusoroma icyayi bambaye ingofero z'umutuku ari babiri abandi ni ibikoti by'icyatsi mu misozi myiza hirya hari ishyamba.

Amasaka arunze ahantu harimo uduheke tw'ibigori dutatu , ku mpande hari kugaragara igisika amennyeho , hepfo hari igicucu kiri guhinguka.

Umugore uhagaze afashe isuka yiteze igitambaro cy'umweru, inyuma ye hari insina n'undi muntu utari kugaragara, wambaye agapira k'umweru muri uwo murima. Hari ishyamba hakurya rikuze.

Abantu bari gukura ibirayi, babitondetse imifunga imifungo, urabona ko bashishikaye, bose barunamye, hirya yabo hari ipoto n'ishyamba ridakuze, bo bari mu murima w'ibirayi.

Umugore ufashe itiyo y'amazi ari gucucira mu murima w'ubuhinge, harimo ibiti bibiri binini hirya ye hari ishyamba ritari rirerire, yambaye igitambaro cy'ubururu.

Ndabona amasaka gamamera, nkabona n'amasaka gamakoma, nkabona n'ibigori n'izindi mbuto ziteretse ariko nkabona biteretse ahantu simbona abantu bari kubicuruza ariko bigaragara ko hari ibintu biri gucuruzwa kuko nta muntu ndikubona.

Umuntu w'umugore wambaye umupira w'umutuku ni'gitambaro cy'icyatsi, ari kwanika ibigori mu kantu kameze nk'agashitingi kanini, n'ikindi gishitingi kindi cy'amabara y'umuhondo, hari n'agatanda hirya ye no hakurya ye, ishyamba ry'umusozi n'ikirere cy'ubururu.

Ibigori bimanitse ku migozi ari imishandiko birumye, amababi yabyo ntari kugaragara neza, hirya yabyo hari ibyatsi bimeze nk'umucaca.

Amasaka afite amahundo, amwe agiye kwera ayandi aracyari mabisi, hakurya yayo hari ikirere cy'ubururu bwiza, no hejuru hari ibara ry'umweru dede.

Impungure zisutse mu mabase y'icyatsi n'ubururu. Harimo mironko bapimisha n'igisorori cy'icyuma gishaje. Hirya hari indi base y'umukara iri guhinguka na yo irimo ibindi.

Umurima w'umuceri wasambuye, hasi harundi ukizamuka utarasambura, ufite amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Abantu barindwi umwe wambaye umupira w'umutuku arahagaze bose ni abagore bari mu murima w'umuceri bari kuwubagara.

Ubunyobwa budatonoye burambitse ahantu h'ibifuka n'ikindi kimeze nk'ikibaho gishaje, hirya hari ubundi buri mu mufuko busa n'uburi ku meneka, byose burajagaraye.

Umurima w'ibishyimbo bya mushingiriro, harimo ibimaze kuma n'ibikiri bibisi n'ibindi nibyo gusoroma hasi haguye imishogoro yumye, ni umurima ushaje.

Abantu bari kwanika ibigori byumye ku ma shitingi. Umwe ni umugore yitwikiye umutaka, undi ni umugabo arunamye. Hino hari ikirundo kitari cyanikwa.

Umugore n'umugabo bari kumanika ibigori mu kiraro bubakiye umusaruro. Ni mu nzu yubatse n'ibiti, hasi ni ibati ry'ubururu.

Umurima w'ibigori bitangiye gusambura, byinshi cyane biteye mu kibaya, hirya yabyo hari agashyamba kagufi kagizwe n'ibihuru. Hakurya hari umusozi uri kureguka ufite ibara ry'ubururu.

Ndabona ubunyobwa buri mu kantu kameze nk'imbehe zimwe za kera, abasaza bariragaho n'abakecuru, Nkabona ubundi buri mu mufuko, nkabona n'ubundi bwamenetse busa n'ubwo bari bari gutonora, ariko butumye neza.

Umuntu w'umugore wunamye ahetse umwana. Mu ntoki harimo inkoko ari gutoranya ingano, inyuma ye harunze amatafari adahiye, hasi ni umucaca utari wakura.

Imifuka isa irimo ibishyimbo by'ubwoko bumwe, harimo duke duke tw'umweru. Iyo mifuka ifite amabara y'umutuku n'ubururu.

Isoko ry'imyaka, harimo amasaka, n'ibindi byinshi. Umugore ubicuruza ari kudaha n'akadomoro yavunnyemo kabiri, hirya hazitijwe ibyuma, hari n'ibyapa by'umutuku.

Indobo ifite umufuniko w'umuhondo n'umufuko biteretse ahantu heza. Hari n'ibindi bisutswe hasi bisa n'ubunyobwa. Hirya hari umurima wagira ngo ni uwa karoti. Hakurya naho ni ikirere kiri kurasiramo izuba.

Ibishyimbo biri kumera, bimwe bimaze kuzamuka ibindi bibiri birigondoye, biteretse mu fumbire irunze y'umukara.

Amasaka atari yera, afite amahundo adatukuye, hirya yayo hari agati karekare ariko katagaragara neza, hari ikirere cy'umweru dededede.

Inka ziri mu mucaca imwe ni igaju niyo iri kugaragara neza, ifite n'amahembe. Hirya hari umuntu wihishe wambaye ishati y'umutuku.

Amatungo magufi arimo ihene n'inkoko . Imbere hari ibyatsi biharunze, bimeze nk'icyarire . Inyuma ni ikizu gishaje gihomesheje ibyondo n'ibiti. Hakurya hari umuntu uhagaze n'intoki ziri mu gashyamba.

Ihene nyinshi z'amabara atandukanye, hari umuntu uhagaze hagati yazo ateruye imwe, mu kizu cy'ibibati gikinze, hakinze ibiti n'inyuma yacyo hari igiti kibisi n'ikirere cy'ubururu, n'umweru.

Umuntu ari kugaburira inkoko nyinshi kuri bya bikoresho zinyweramwo amazi. Ndabona ari bitanu, kimwe agifashe mu ntoki, uri umukobwa.

Inka y'ibihogo, ifite mu maso h'umweru, iteze amahembe areba imbere. Umuntu afashe urushinge, n'agacupa karimo umuti, yambaye isarubeti y'ubururu, ariko we ntabwo ari kugaragara neza, agiye kuyitera.

Inka yakebutse iri kureba uruhande rwo hepfo ku kigega cy'umukara kizitijwe ibiti bishaje, hirya hari umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi, hari n'ikiraro gishaje cyubakishije ibiti.

Inkoko ziri ahantu hamwe, hagati yazo hatondekanye utuntu zinyweramo amazi, hari n'imigozi idufashe , hagati hari inkingi ihagaze.

Umugore ufashe agahene mu ntoki, yiteze igitambaro n'umupira w'umweru, sinzi n'ikintu cy'umutuku afashe. Hirya ye hari inzu zishaje z'amatafari ya rukarakara, n'ibindi bintu by'ibishitingi bisa nabi.

Umugore uri kugaburira inka iri mu kiraro cyubakishijwe imbaho afashe ubwatsi mu ntoki, akandi kaboko gafashe aho inka iri kurira, imbere ye hateretse umufuka, urupangu arimo rwubakishijwe imiyenzi.

Umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi, ahetse icyuma cy'umuti ari gupompa inka iri mu kiraro cy'ibiti, hirya ni mu murima urimo utuntu dusa n'ibigori bikimara kumera, n'utuzu tubiri turi guhinguka mu kirere cy'ubururu n'umweru.

Ingurube ziryamye mu kiraro kimeze neza gifite isuku, hasutsemo umurama ku mpande. Ni ikiraro cy'imbaho zitambitse n'izizamuye.

Ingurube ziri mu kiraro, zifite amabara atandukanye, hari umuntu uhagazemo ari kuzireba, icyo kiraro cyubakishijwe ibiti bishaje n'amabati, hirya hari insina zisanzwe zitariho ibitoki.

Umugore wambaye isarubeti y'ubururu, mu kiraro cy'inka kidasakaye, cyubakishijwe ibiti harimo inka ifite amabara y'umweru n'umukara, hirya n'imiyenzi n'agashyamba katari kugaragara neza.

Abantu batatu bahagaze babiri bambaye amasarubeti y'ubururu uwo hagati yambaye itaburiya ya kaki imbere y'ikizu cy'ikiraro cy'ingurube hari icyapa gishushanyijeho ingurube n'inyuguti z'umweru hakurya nikirere cy'bururu n'umweru bahagaze mu gitaka.

Inkoko eshatu imwe ntabwo isa n'izindi, zo ni ubugondo. Ziri kuraha ahantu hasa nabi, inzu zirimo ni igikuta gisa na sima.

Umuntu uri kubaga amatungo yambaye imyenda y'umweru n'akagofero. Inyama ziramanitse ku biti, hirya hari igikuta cy'umuhondo zimanitseho.

Ingurube iri mu kiraro cy'ibiti kinini, harimo umuntu wambaye umupira w'umutuku uri kuyireba, hirya hari guhinguka ibintu bimeze nk'amazu n'ishyamba ritoya

Inka n'inyana yayo, munsi yayo hari umuntu uri kuyikama itajishishe. Hakurya yayo ndabona hari izindi ziri kurisha mu rwuri.

Abagore bicaye ahantu basigatiye abana. Hagati yabo hahagaze umugabo. Hirya yabo hari utuzu tutuzuye dufatanye dufite imiryango ibiri. Haruguru yabo hari inzu wagira ngo ni iy'inkwavu, n'ishyamba.

Ingwe ihagaze iri kureba inyuma, imeze nk'iyikanze umuntu, ihagaze mu kibuga kinini kimeze nk'ahantu h'ubutayu.

Igisiga cy'umunwa muremure, gifite ijosi n'amaguru birebire. Hirya hari amazi, imbere ya cyo hari ibyatsi. Hakurya hari ishyamba n'ibyondo.

Akanyoni gasa n'akanyamanza, gafite umurizo muremure, n'utubara tw'umweru n'umukara. Gahagaze mu byatsi byiza, birambuye ahantu h'ikibaya.

Umusambi uhagaze ahantu ha amazi, ku munwa wawo hari utuntu, turi kure reta tumeze nk'utugozi, nimbere yawo hari akantu kameze nk'agati.